Porisi ni bamwe mu bacunga umutekano hirya no hino mu gihugu, aho batozwa imigendere myiza, aho n'ibirori byabo biba bibereye amaso ari byiza cyane.

Uburobyi ndetse ni n'ingendo zo mu mazi hirya no hino mu gihugu ahantu haboneka amazi magari, nko mu karere ka Burera mu Majyaruguru usanga hatangwamo serivisi zitandukanye zo gutwara abantu , babavana hamwe babajyana ahandi, cyangwa se babambutse inyanja cyangwa se babambutsa amazi.

U Rwanda ni igihugu cyiza gifite ibikorwa remezo bigezweho ama sitade, ndetse kikagira n'ingabo zikomeye cyane arizo bita rdf.Rimwe na rimwe hagenda haba ibirori bihuza abaturage ndetse n'ingabo z'umutekano bagahurira hamwe bitewe n'ibirori bigezweho cyangwa se umunsi mukuru wabaye waba uw'intwari kurahiza perezida ndetse no gutaha bimwe mu bikorwaremezo nk'ama stade.

Amahoteri ni hamwe hatangirwa serivisi zakira abantu, haba abatuye mu gihugu no hirya no hino. Hagenda hakoreshwa amagazi yo gucana, yo gutekaho, kugira ngo ibyokurya byihute.

Ku muhanda hari ibimenyetso bituma abagenzi bambuka ahitwa kuri zebura korosingi, mu buryo bwo kurinda impanuka cyangwa se no kuzigabanya. Muri bimwe mu bihugu cyangwa se imijyi minini usangamo amatara aba ku mihanda, agenda agira ibimenyetso umutuku, irigiye kuba nk'umuhondo ndetse n'icyatsi bituma abagenzi bagenda bambuka bitewe n'ibara rigezemo.

Mu nama zitandukanye, mu by'ubutaka bw'igihugu no mu bayobozi b'abaminisitiri bagenda bateranira hamwe, cyangwa bahuza abaturage, bakabaha ibiganiro bijyanye n'ubumwe, ndetse n'ubudaheranwa byose bigatangirwa hamwe.

Mu gihugu hose imidugudu itandukanye no mu turere dutandukanye hari kuba inteko rusange y'abaturage, iba kuwa kabiri niho abaturage bahurira aho bateguye kubona n'abayobozi bakabatekerereza ibyo bifuza.

Hirya no hino mu gihugu ndetse na henshi, hagenda haboneka inka nziza z'inyambo aho tuzisanga mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu karere ka Musanze mu karere ka Rubavu, aho bita mu Bigogwe izo nka zirabonehaka.

U Rwanda rwo hambere rwayoborwaga n'abami, aho umwami yari we mukuru w'abantu, cyangwa se w'igihugu twagereranya muri iki gihe cyacu nka Perezida , abami bafatwaga nk'abantu b'intwari, bakubahwa, ndetse bagakundwa n'abo bayobora.

Mu Rwanda, mu muco w'abanyarwanda, gusurana cyangwa se kuremerana ni igikorwa kiba kirimo urukundo, aho usanga abantu bikorera inzoga mu myaka, bakagenda bakajya gusura umuntu.

Bimwe mu bigo cyangwa se mu nzuri dusangamo inka nziza zibereye amaso z'inyambo zifite amahembe meza inka zigaragara ubonako ari inka zariye kandi zitaweho.

Hari ibiti byagiye bigaragara, cyangwa se bimaze gucika. Urugero nk'igiti cy'umuvumu, ahenshi biri ntago ari henshi, igiti cy'umuvumo ni igiti ubona ahantu hose, ugasanga no ku mutwetwe gifite imizi, kandi tuzi ko imizi iba hasi, ariko igiti cy'umuvumo kiyigira no hejuru mu mutwetwe.

Igisabo ni kimwe mu bikoresho gakondo bihabwa abageni, cyangwa se biboneka ku bantu babatunzi aho bacundiramo amata, ndetse bashaka kugira ngo bayabyazemo amavuta.

Ku ngoma y'abami, abami, umwami yari umuntu wubashywe cyane mu gihugu, ku ko yari uhagarariye igihugu icyo gihe, bagendaga bambara ibintu mu ijosi, bakenyera, ugasanga inyogosho zitandukanye.

Isekuru ni kimwe mu gikoresho cyo mu rugo cya kwishwa, mbere kera aho harimwo ushi rimwe mu myaka bafite umuhini munini, kugenda bacacuma bashaka kugira icyo bagikora bakamenya kuko icyo kimeze mbere.

Ikibindi cyangwa se intango ni bimwe mu bikore gakondo bya kera byakoreshwaga n'abakurambere bacu, aho ikibindi cyafashaga mu kubika ,mu kwengeramo umusururu ,cyangwa se bakajya bashyiramo urwagwa n'amazi.

Intore cyangwa se ababyinnyi: n'itsinda ry'abantu bishyize hamwe, bambaye kimwe, babyina imbyino imwe, abo baba baryoheye amaso ku bantu babibona, bambaye imishanana, abakenyeye, bafata ingabo ndetse n'icumu kuko n'umuco w'abanyarwanda uranzwemo hambere kera.

Umutemeri cyangwa se akebo agaseke, kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu rugo, aho gikoreshwa mu kubikamo imyaka cyangwa se gutwereramo ibishyimbo, impungure, amasaka ndetse n'ibindi.

Mu bice bitandukanye by'igihugu, hari inzu zagaragaye kera, ariko zitakiboneka. Ariko izi nzu z'indaro ,ziboneka mu mazu yakira abakerarugendo, cyangwa se ahandi hantu mu mazu ndangamurage, aho ziba ari inzu nziza zikozwe mu byatsi.

Intore cyangwa se ababyinnyi, ni abantu baba baritoreje hamwe babyinyina neza, bagendera hamwe, bambaye ibisa, bakora ibintu bimwe, mbese intore ni abantu baba baratoranyijwe, kuko intore biva ku nshinga gutorwa.

Bimwe mu bikoresho bya kinyarwanda ibicuba cyangwa se igicuma n'imitemeri, usanga mumahoteli cyangwa se ku bantu bacuruza ubukorikori. Aho bivamo amafaranga ndetse bigakondwa naba mukerarugendo.

Intore cyangwa se ababyinnyi ni abantu babyina bafite ingabo, imisatsi, inzogera cyangwa se amayogi n'amacumu, aho biba ari ibintu biryoheye ijisho iyo babyina kuko bagenda ku murongo umwe.

Ubworozi ni umushinga ndetse ni igikorwa kizamura umuturage, cyangwa se umuntu wese ugikora, aho abashumba cyangwa uragira inka, azijyanye ahantu hari amazi akazishora.

Indabo kimwe n’ibyatsi ni ibyiza nyaburanga bitaka ahantu biba biri. Aho ubireba, abikunda ndetse akabyishimira, kuko indabo zigira isura nziza, bikagaragaza n’aho ziri neza.

Mu buryo bwo kugabanya ubucucicike butandukanye hirya no hino, bamwe mu borozi bagiye bategura uburyo bwiza bwo korora amatungo, bubaka ibiraro byakira amatungo menshi urugero nk'inka n'intama cyangwa se ihene, mu buryo kugabanya ubucucike hanze kuko kuragira ku gasozi bitemewe.

Mbere kera mu bice bitandukanye by'igihugu, mu misango y'ubukwe abitabiriye ubukwe, babashyiriraga umusuru mu mbehe cyangwa se mu kintu kigari, bagashima bakabaha imiheha buri wese akagenda asoma, asoma baganira buhoro ubwo wari umuco w'abanyarwanda wo hambere.

Ubutore ni ni ni bimwe mu byarangaga abantu ba kera, inzu ndangamurage. Hari ukuntu abantu ba kera bagendaga bambara ugasanga bambaye imishanana cyangwa se imkenyero urumva yari umuco w'igihugu, ibyo byakorwaga n'abantu bose ntabwo byavuga nkuko muri mubonye umugore wikenyeye cyangwa se umukobwa kera wari umuco. Wari umuco w'abakera gukenyera kw'abagabo imikenyero bari mu kiko cy'ubutore.

Mu muco gakondo wacu nk'abanyarwanda twavutse nubwo turi abadgijitali ariko muri analoge hari icyo bitaga intore. Ubutore bwagaragazaga umuco w'igihugu z' indangagaciro kuko byinshi mu byavugwaga cyangwa se mubyo bariririmba mu ndimi n'imbyino bigaragaza umuco rusange w'igihugu. Amateka menshi aboneka mu turere tugiye dutandukanye na Musanze naho bibonekamo.

Iyo intore zibyina ziba zifite imishanana, ingabo, amayogi ndetse n'imigara. Imitsatsi bagenda bazunguza ikajya hasi amerekezo bagiyemo akaba ariyo nayo ijyamo. Ndetse baba bafite n'icumu.

Ubworozi ni umushinga mwiza cyane, cyane ubworozi bw'inka, aho mukorora usanga inka nyinshi zitanga umukamo, cyangwa se zikamwa, aho usanga hamwe na hamwe abagore na bo bazi gukama, inka bakayikama rwose amata akaboneka.

Ndetse n'umuheto ni bimwe mu bikoresho ryakoreshwaga kera, byakoreshyaga n'abakurambere aho uwabikoreshaga yabikoraga ashaka gushimisha abantu, ndetse akagira n'icyo atanga muri iyo mesage.

Inzu z'indaro ni inzu gakondo zagiye zigaragara mu gihe cyo hambere, aho abakuramberebashyiramu babaga no muri iki gihe cyacu bamwe bagiye nko mu mahoteli nziza zubaki zisobanutse.

Mu bikoresho bikoreshwa mu mashanyarazi ndetse no mu batekinisiye hari icyitwa ipensi, ifasha gukata no kuzirika neza ukomeza , ibintu bijyanye n'insinga muri ensiterasheni.

Amashanyarazi na yo ni bimwe mu bintu birwanya ihumana ry'ikirere. Kuko Bamwe bayatekaho, bacagigaho kandi biba cyane imyotsi ikazamuka ku mashyiga byangiza ikirere. Ariko ku mashanyarazi nta bijya byangiza ikirere.

Urusengero ni ahantu abizera cyangwa se abakirisitu bagendana n'iryo dini bahurira basenga Imana, bahigira ijambo ry'imana ndetse bigishwa n'ibikorwa byiza by'urukundo.

Mu bice bitandukanye by'ibihugu, mu cyaro hagenda ahagaragara izubatswe kera aho usanga ari inzu zubatswe ,inzu zikomeye ku buryo muri iki gihe cyacu, kubona ibisa nabyo bigoye.

Ibigo by'amashuri ndetse n'insengero, ubona rimwe na rimwe ari ahantu hakeye hagaragara neza. Hafite ubusitani bwiza, imyubakire myiza ndetse n'aho abantu bakinira cyangwa se abana.

Imyubakire igiye itandukanye mu nsengero, mu bigo by'amashuri hagenda hagaragara imyubakire nziza y'inzu zigezweho, zubatse ziba ari ndende. Zino ahenshi zigenda zihaboneka mu nsengero n'ahandi hatandukanye mu kiliziya.

Muri iki gihe mu bice bitandukanye by'Igihugu hagenda hubakwa imidugu y'ikitegererezo, ibigo by'amashuri byiza bifasha abantu gutera imbere, ndetse no kwiyongerera ubumenyi. Ndetse nk'uko naje kubivuga mu bice byinshi by'Igihugu ibyo bikorwa byarageze, turashimira na Leta ibitugezaho kuko bigira umumaro, mu bikorerwa nk'abagenerwabikorwa nkatwe. Ndetse n'abasuye igihugu cyacu bakabona ko gifite iterambere ryiza.

Mu Rwanda ubutabera bwahawe ijambo, aho umuntu wese warenganyijwe ajya ku rukiko cyangwa mu ngoro y’ubutabera, bakamucira urubanza mu buryo bwiza ndetse butabogamye, agataha yishimye.

Iterambere hirya no hino igenda rizamuka mu misengere, mu myubakire, mu bikorwaremezo ndetse no mu bantu ukagenda ubibonamo, uba ubona n'amashanyarazi, insengero, imisigiti na kaburimbo nziza.

Hamwe mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu usanga imyubakire myiza, y' amazu meza asobanutse, afite ubusitani bwiza bwo kuruhukiramo cyangwa se ikibuga, ku buryo umuntu uba ahatembereye aba afite umunezero.

Abakecuru bageze mu zabukuru mu Gihugu mu bice bitandukanye, mu mijyi itandukanye mbese hafi ya bose abo bantu bagenda bahabwa amafaranga y'ingoboka, kubafasha gusaza neza muri ubwo buzima bwabo.

Ibigo nderabuzima cyangwa se ibitaro ni ahantu hakirwa aturage bahegereye aho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi butandukanye, ndetse bikaba iri na byiza ku bahaturiye ndetse na serivisi zitangwa ku muntu wese ushobora kuhagera.

Ubwubatsi ni imwe mu myuga dusanga mu bigo byigisha ubumenyi ngiro ibyo bita tiveti sikuluzi. Ibi bifasha umuntu wese wabyize kubaho neza kuko igikorwa cy'ubwubatsi ahantu hose ugiye wagisangayo. Ibi bikaba byakubeshaho aho uri gukorera hose wateza imbere ndetse ukagira n'ibyo umenya mu kubaka.

Imijyi , ibikorwa remezo, imyubakire ndetse n'aho gutura. Amashuri kimwe mu bintu biri kugenda bizamuka mu turere dutandukanye, ndetse no mu karere ka Musanze usanga ibigo by'amashuri byaragiye byubakwa hirya no hino hatandukanye.

Iterambere mu bice bitandukanye by'Igihugu rigenda rizamuka. Aho hagenda hubakwa imidugudu y'icyitegererezo, iyo bita tu ini wane aho usanga inzu imwe ibamo abantu, imiryango itandukanye. Ibyo bikaba bifasha mu kugabanya ubucucike ndetse no kugira ngo aho guhingwa haboneke. Imidugudu igenda yubakwa mu bice bitandukanye by'Igihugu.

Imyemerere yo mu mu Rwanda, ndetse buri muturage wese cyangwa se umunyarwanda wese afite imyemerere ye. Yahawe uburenganzira bwo gusengera aho abonye rwose ni byiza. Ku idini rya Adeperi, adeperi igenda iboneka mu bihugu byose mu bice byose by'Igihugu, si rikagira n'abaksirisito muri rusange barigana ndetse bakurikiza n'imyemerere yaryo banaryubaha.

Imyubakire igenda ihinduka, ndetse itera, imbere hirya no hino; ibigo by'imari, ibigo by'ubucuruzi, amahoteri, amavuriro, utugari, n'imirenge, bigenda byubaka munzu zigeretse ukubona ari ibintu byiza, ndetse binasobanura.

Mu gihugu, hirya no hino mu turere dutandukanye ndetse n'ahandi hose, uhasanga imyubakire myiza y'amazu meza abereye ijisho, aho usanga abaturage bajya kwaka serivisi ndetse bakazihabwa neza.

Bimwe mu byaro hirya no hino mu gihugu bigenda itera imbere mu mijyi itandukanye, amasoko ndetse n'ahandi , aho basanga amazu meza abereye amaso agerekeranye ayo bita ama etaji, akorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo patuma bakoramo amashuri, ubucuruzi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Rimwe na rimwe, abaturage bagenda bagira igihe cyo kwicara, bakaganizwa n'abayobozi bamwe bagiye batandukanye, umuturage atanga igitekerezo cye, bakishimira abayobozi, ndetse bishimiye n'ibyagezweho.

Mu gihugu ryaba inteko z'abaturage, aho bagenda bakira abayobozi bazaganiza ibyabateza imbere, ndetse n'ifitiye inyungu igihugu, ndetse nabo ubwabo muri rusange batabasobanuriye.

Mu bwoko bw'ibinyabiziga bitwara mu muhanda bitwara abagenzi n'imizigo, bimaze gutera imbera mu gihugu cyacu, aho usanga abagenzi kuva mu gace bajya mu kandi biborohera, bitewe n'ibinyabiziga bajyana nabyo ndetse n'imihanda bagenderamo ,byose bijyanye n'iterambere.

Umwuga w'ubumotari ni umwuga ubeshejeho abantu benshi, aho bafata umugenzi bakamuvana mu gace kamwe bamujyana ahandi, agatanga amafaranga ndetse n'uri gutega cyangwa se umugenzi akahagera ku gihe ndetse yihuse.

Amahoteli ni ho dusanga ibikoresho byiza by'ibanze bitaboneka bidakunze kuboneka mu ngo zitandukanye, aho dusanga utubati twiza, ibikoni byiza, n'ibindi bigiye bitandukanye dusanga mu mahoteri.

Hari uburyo butandukanye bwo gutwara abantu, bukoreshwa mu kuvana abantu mu gace kamwe ubajyana ahandi. Muri ubwo twavugamo imodoka zitwara mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu, bwo kwihutisha abantu kugira ngo umuntu agere aho yakagombye kugera mu gihe gitoya. Ibyo bigira iterambere ku gihugu ndetse n'ubikorerwa bikamufasha kugerera aho yifuza kugera ku gihe.

Mu muhanda usangayo uburyo butandukanye bwo gutwara abantu n'ibintu. Usanga n'amagare ari kimwe mu bikoresho cyangwa mu binyabiziga byifashishwa, cyangwa se bikoreshwa mu gutwara abantu bibavana mugace kamwe bibajyana ahandi.

Mu mihanda itandukanye, mu mijyi itandukanye y'igihugu usanga imodoka nyinshi zitwara imizigo zigenda zambuka mu mihanda, bitewe n'ibyo ziba zijyanye ibirayi, zikoreye imyaka, zikoreye ibicuruzwa.

Ubwikorezi ndetse n'ubutwazi bigenda bizamura indi ntera, uba usanga mu muhanda harimo abamotari benshi imodoka zitwara abagenzi, bityo bigatuma abantu bagera aho bifuza kugera mu gihe gito kandi bihuse, kandi vuba cyane.

Umwuga w'umumotari ni zimwe muri serivisi zitangwa ndetse z'ingenzi zigira uruhare mu guteza imbere igihugu kuko abakerarugendo iyo bagannye igihugu, umumotari akabakira neza, akabageza aho bakwiriye kugera, biba ari byiza ndetse na bo bituma bishimira serivisi bahawe.

Hirya no hino amasoko atandukanye, ubwikwezi bw'imyaka bugenda buhinduka, bukorwa n'abaturage bitewe n'uburyo bwo kugirango bakore ibintu byoroshye kandi bidatwara amafaranga. Aho bakora ibintu byitwa ibicuruzwa bagafata ipine bagashyiramo igiti n'ibindi biti byo kugenda basunika bagatwaraho imizigo.

Imihanda yagiye itera imbere, aho usanga mu bice bitandukanye by'ibihugu, by'umujyi ndetse n'ahandi hose hari imihanda myiza igezweho, hagendamo amakwasiteri cyangwa se imodoka zitandukanye. Ndetse kuri iyi mihanda ya kaburimbo, usanga hariho n'amatara, bigaragara neza.

Imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu itanga serivisi zitandukanye, zirimo izo kuvana umuntu umuvana mu gace kamwe umugeza mukandi, umuhanda usangamo inyabiziga bitandukanye, amamoto, amatagisi n' amagare bigenda bitwara abantu.

Ubukerarugendo ni kimwe mu bikorwa by'iterambere , ndetse byiza byinjiza igihugu amafaranga bita abadovize, cyangwa se biteza imbere igihugu, mu buryo bwihuse kandi neza, kuko igihugu cyacu cyakira abanyamahanga bake cyane.

Ikibuga cy'indege: ni indege ziparika, ziba ziza mu Rwanda, n'iziva mu Rwanda zijya mu bindi bihugu. Mu Rwanda dufite Rwandeya: ni kampani itwara abantu bavana mu Rwanda bajyana mu kindi gihugu, ikanatware ibintu ibivana mu Rwanda ibiryana mu kindi gihugu, ikanabigarura.

Hirya no hino hagenda hubakwa inyubako zigezweho aho usanga mu mijyi itandukanye nko mu mujyi wa Musanze urimo urazamuka cyane, hagaragara amazu meza agezweho y'ama etage agenda yubakwa y'ubucuruzi, muri ibyo bice bitandukanye by'umujyi.

Mu bice byose by'igihugu mu masoko akomeye, haragenda ndetse no mu mihanda haragenda haduka ibinyabiziga bigezweho, amamoto meza cyane agezweho akoreshwa n'umuriro akoreshwa na esanse cyangwa se....

Mu Rwanda naho haboneka zimwe mu modoka zitabira amarushanwa yo kwiruka, cyangwa gusiganwa bakoresheje imodoka, aho izo modoka ziba zitandukanye zirihuta vuba cyane.

Gusiganwa mu magare ni umwe mu mikino ukinirwa mu Rwanda ryiswe turudirwanda, aho usanga umukino witabiriwe n'abantu benshi cyangwa se amarushanwa yitabiriwe n'abantu benshi haba mu gihugu imbere n'abo hanze mu bindi bihugu.

Siporo ni ubuzima, ndetse ni kimwe mu bintu bituma umuntu agororoka akagira ubuzima bwiza, ndetse siporo irinda indwara, irinda amavunane. Siporo umuntu uyikora abaho neza ndetse akagire ubuzima bwiza.

Umukino wa tenisi umukino kimwe n'abana babiri, bafite agakinisho bakinisha bakamuha pasi umupira akawugaruza ako bakinisha iyo ugucitse n'ubawatsinzwe.

Imikino ni bimwe mu bikorwa bishimisha ababireba, aho abantu bahurira muri sitade baza kureba amakipe arimo gukina, yaba ayo mu gihugu imbere ndetse n’ayo mu bindi bihugu. Haba hari imikino ya gicuti cyangwa se imikino y’ibikombe.

Siporo ni uburyo bwose umuntu akoresha kugira ngo ananuke. Hari ugukina umupira w'amaguru, gukina hendiboro, gukina tenisi ndetse n'ibindi hamwe na basiketi.

Siporo ni ingirakamaro bimwe mu bigo by'amashuri bigira amarushanwa yo kwiruka, aho uwiruka aba asiganwa na mugenzi we, kugira ngo aze kuba ariwe wa mbere uza gutwara igihembo.

Umukino voreboru n'umukino ukinirwa mu bibuga bitandukanye hirya no hino ndetse no mubigo aho usanga ikibuga kiza cy'amapoto abiri na fire aho abakinnyi bakina mu bihande bibiri icyo kibuga epfo na ruguru.

Umukino wa tenisi ni umukino ukinwa n'abantu babiri cyangwa barenze babiri, aho baba bafite agakoresho bakoresha kagarura umupira, umupira ukaza ugakoresha ka gakoresho ukawuhereza undi.

Umukino wa basikete nu mukino mwiza ukinywa n'abantu bose aho ukina baba barwanira umupira akagenda bakafata muripaniye wakwinjiramo neza igitego kikaba gitsinze yatsinzwe.

Rimwe na rimwe iyo igihugu kirimo gikinisha abakinnyi, cyangwa se wakiriwe mu kipe, hari amasezerano agirana na ba nyir'ikipe bagasinya, mu buryo bugaragara kugira bigaragare ko byemejwe.

Imyidagaduro ni kimwe mu bikorwa cyangwa se siporo ifasha umuntu kunanuka, kuruhura ubwonko, ndetse no kugabanya siteresi. Mu mikino harimo imikino, umukino wa vore, umukino wa basiketi, aho ufata umupira cyangwa se baro ukawukubita muri paniye wakwinjiramo ukaba watsinze igitego.

Imikino cyangwa se amarushanwa y' amagare, ni imikino ikunze kubera mu gihugu cy' u Rwanda bita turu di Rwanda ,aho abasiganwa ku magare aba ari ibihugu bitandukanye ,mu Rwanda, muri etireya, ndetse n' abandi aho utsinze abasha guhabwa igihembo.

Tenesi ni umukino bakina ukoresha akantu kameze nk 'ako bakoresha baroba. Ufata baguha pasi ya tenesi, ukagaruza ka gakoresho ufite gukoresha kaba gafite ikimenyetso cy'uruziga ariko gafite inkoni uba ufasheho kugira ngo ugarure wa umupira ariko na none hagati hari igituma utagaruka kiba kimeze gifite utwanya tuba dukasekasemo uduceduce.

Imikino ya siporo kimwe nka tenisi, basiketibolu, hendibolu, ni imikino ikinwa mu buryo bwo kwinanura ndetse igatanga n'ibyishimo. Hano, umuntu ukina hendibolu afata umupira, ukagenda uwuhereza mugenzi wawe, hanyuma ugatsinda ukubita mu mazamu.

Mu mikino hari imikino igenda itandukanye hari umukino wo kwiruka, umukino wo gukina umupira, vore boro, hendi boro imikino yo kwiruka ku magare cyangwa gusiganwa ku magare umuntu wese kuri uwo mukino agenda ahabwa ibihembo umuntu wabaye indashikirwa cyangwa se umuti wese watsinze ahabwa ibihembo cyangwa se imidari cyangwa se gikombe.

Umukino wa basiketibolo; ni umukino ukinwa n' abana, abaribo bose, abagore, abagabo, bagenda bagira amarushanwa bagakina abatsinze bagatahana ibitego, ni umukino ukinwa wo guherezanya umupira ndetse bagakubita muri paniye.

Rimwe na rimwe mu gihugu hagenda haba inama zihuza abaturage ndetse n'abayobozi, aho buri baturage bisangamo bayobowe n'abayobozi babo bakunda bakaba inama ndetse bagatanga ibibazo bimwe bikanakemuka.

Bimwe mu bigo amazu yakira abakerarugendo nk'amahoteli, haba harimo ibibuga by'imikino aho abazungu babagana bageramo bakisanzura, bagakina urugero twavuga nk'umukino wa tennis usanga harimo abakoci ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye.

Basiketiboru ni umukino ukinwa n'abantu bose hatitawe ngo uyu ni umugore, umugabo, abasore, abakobwa, bose bashobora guhurira mu kibuga bagakina ndetse n'amakipe ahanganye, abasifuzi batwara igikombe.

Hirya no hino mu bigo by'amashuri uhasanga ibibuga byiza by'imyidagaduro, uho uhasanga n'ikibuga cya basikete nicya voreboru ndetse n'ibindi, aho ikibuga cya basikete voreboru kigira amapoto abiri ndetse na fire.

Siporo ni ubuzima ndetse n'igikorwa cyiza ni' umukino mwiza uruhura mu mutwe ndetse ugafasha umuntu uyikora kuruhura no gutekereza neza. Gukora siporo ntabwo bisaba kuba uri umugabo cyangwa umugore ahubwo ni umuntu wese abyemerewe. Mu mikino imwe nimwe igiye itandukanye ituma umuntu akoramo siporo harimo kwiruka, aho turaza kuvuga ku mukino wa wa basikete. Basikete ni umukino ukinwa n'abantu bose.

Hagenda haba imikino mpuzamahanga, habamo kwiruka, gukina imikino itandukanye, aho abakina iyo mikino bahembwa abatsinze. Iyo mikino yitabirwa n'abo mu Rwanda ndetse cyangwa n' ibindi bihugu by'ibituranyi n'abazungu.